Urujya n’uruza rw'abantu bambaye imyenda itandukanye， baje mu isoko， guhaha ibicuruzwa birimo， bigiye bitandukanye， aribyo：Urusenda， tungurusumu，ibitunguru， betarave， ibi byose byifashishwa mu gutegura ibyo turya.